Ahantu hateguye neza intebe z'umukara, ameza y'umweru n'ikigina, abagabo babiri bicaye n'umugore umwe ndetse n'umugabo umwe uhagaze ufite urupapuro urimo gusinya, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye, abagabo babiri n'umugore umwe.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu hamwe, bose bambaye imyenda itandukanye, bambaye ibirango bimwe mu ijosi bifite ibara ry'iicyatsi bose bicaye batumbiriye imbere.

Inzu nini yubatse neza, ifite ibaraza rigari, kuri iryo baraza imbere yaho hari imodoka na moto n'umuntu usa n'uwunamye, hafi yaho hari akazu k'umweru kariho ikirango cya MTN, abantu barimo barahatambuka.

Inzu nziza yubatse ifite umuryango umwe n'amadirishya atatu, hafi yaho hari indabo nziza zisa neza, hari amagambo yanditse hafi yayo, avuga ngo menyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa n'umusoro ku nyungu zubukode uyu munsi. Kwishyura umusoro wamenyekanishije bigomba gukorwa mbere yo kuwa kane tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa cy'ubururu kibambye ku nzu cyanditseho amagambo Irembo, hepfo y'aho hari imashini isohora impapuro n'ikirango cy'umweru cyanditseho ijambo Irembo mu magambo y'ubururu.

Umunara muremure wa interinete, wubakishijwe ibyuma by'umweru n'umutuku, harimo insinga z'imikara ndetse n'ibindi byuma bifasha mu gukurura interineti, hariho moteri zitandukanye, hafi yaho hari akazu kabamo abarinzi bawo.

Umunara wubakishijwe ibyuma bifite amabara y'umutuku n'umweru, ibyuma bibiri bifata amajwi, insinga z'umukara, ibyuma bibiri bitoya bifata amajwi biri mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze barimo barakoresha telefone ziri ku muriro, indi telefone icaginze nta muntu urimo urayikoresha, abantu bicaye barimo barabareba, umugabo umwe uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya move n'igikoresho kimwe mu ntoki, bicaye ahantu handitse urugendo ruhire. Mu magambo y'ubururu.

Inzu iriho umuriro w'amashanyara, ifite urutsinga rw'umukara, hejuru y'inzu hanyuraho urutsinga runini rw'umukara n'izindi nsinga eshatu ntoya, zose zitwara umuriro ku muyoboro mugari.

Abatekinisiye babiri bakora ibijyanye n'amashanyarazi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo zibakingira, bambaye inkweto z'umukara bari ku ipironi hejuru, ipironi rifite insinga eshatu ndetse n'itara, bigaragara ko barimo bararikora.

Abagabo n'abagore bicaye mu itsinda ryo kwizigamira, umugabo umwe ahagaze afite umutaka atwikiriye umugore umwe, undi mugabo ahagaze imbere yabo ndetse hari n'abandi bagabo bicaye hirya gatoya.

Abantu batatu bahagaze bari kumwe, umwe muri bo yambaye ikote, babiri bambaye amashati magufi bari hafi y'inzu y'amadirishya akozwe n'ibyuma gusa hafi yaho hari igikuta gisa umukara cyane.

Kizimyamwoto ebyiri ziteretse zombi zifite udupfundikizo tw'ubururu ndetse n'ijeke ry'umukara, hari ibirango by'umutuku byerekana aho ziba zitetse.

Umukozi ukora amazi, ahagaze ku mugezi, awufasheho hejuru , yambaye umwenda w'umukara, ufite ibara ry'icyatsi, n'iry'ubururu, hafi y'aho hari igiti, ndetse n'igipangu cyubakishije amatafari.

Imbaga y'abantu benshi, abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru ndetse n'umutuku bafite ibirango binyuranye n'amabendera y'ishyaka rya Efuperi abandi bambaye ubururu, bamwe barahagaze abandi baricaye.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe, abagabo batatu bahagaze imbere y'abo bantu, imbere yabo hari umugabo wambaye ijire ya MTN n'ingofero y'umukara, barimo barabaganiriza.

Umugore wicaye imbere y'ingorofani itwara imizigo, abantu bari muzirara y'abanyamaguru bagenda, umuntu kuri moto, abantu barimo baracuruza ibiribwa, arimo ibitunguru n'inyanya.

Itsinda ryabanyonzi batandatu, umwe wambaye umupira w'umundo nipantaro w'umuhondo aririho, n'uwambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, abandi arahagaze undi muri bo afashe igare ataririho.

Imodoka nini ya bisi itwara abantu mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu n'amapine manini, abantu bicaye mu modoka mu imbere, hari undi mugabo uri ku muryango wa kabiri utegereje kwinjira.

Abantu benshi banyuranye bamwe barimo baragenda, hari abahagaze n'abicaye bareba muri telefone bari ahantu hatwikiriye, hari abandi bicaye hirya imbere y'inzu ya hoteli ndende ifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara cyanditseho amagambo, iribanza ryanditse ibara ry'umuhondo, andi abiri yanditse mu ibara ry'umukara, yose aratanga amabwiriza ku kuntu umuntu akwiye kugenda gahoro.

Imodoka ebyiri ziparitse, iy'umweru yerurutse cyane, indi yenda kuba umweru, abamotari babiri baparitse bicaye kuri moto, imbere yabo hari puberi n'inzu bigaragara ko ishaje. Ku rundi ruhande hari moto n'umukobwa urimo kuza ndetse n'umusore uturutse inyuma.

Imodoka ebyiri ziparitse imwe y'umukara indi y'umweru, imbere yaho hari inzu ya kadasiteri n'igipangu cy'umukara, imbere yaho gatoya hari icyapa cyanditseho magana atanu mirongo icyenda na gatandatu sa, ta, inyuma iruhande rw'imodoka hari igipangu n'abantu babiri bahagaze.